Aha ngaha nk'uko mubibona ni abantu bicaye mu cyumba cy'inama. Iki cyumba cy'inama ni cyiza cyane kuko urikubona ko hari ibisabwa byose kugira ngo habere inama mu mahoro.

Aha ngaha nk'uko hagaragara, ni mu nteko nshingamategeko y'u Rwanda; ndetse aba bagabo n'abagore barimo, bari mu nama bareba icyagumya guteza imbere igihugu cyacu cyiza cy'u Rwanda.

Aha ngaha nk'uko bigaragara n'abantu benshi bahuriye hamwe, bicaye bameze nk'abari mu nama, harimo abakorerabushake ndetse n'abandi bambaye impuzankano zimeze nk'iz'abatwara amagare.

Ahangaha ni mu cyumba kiberamo inama z'abayobozi, ahangaha habereye inama y'abayobozi yo ku bantu bashinzwe kwita ku biribwa bya Afurika, hariya imbere abahicaye nibo bayoboye inama.

Aha ngaha ni ahantu hateraniye abantu ndetse bamwe baricaye hakaba hahagaze umukobwa ufite indangururamajwi kugira ngo abagezeho imbwirwaruhame.

Aha ngaha nk'uko bimeze, hicaye abantu benshi ndetse aba bantu bameze nk'abari mu inama kuko bakurikiye, bateze amatwi neza, biteze imyanzuro myiza iva mu nama.

Aha ngaha uko bimeze ni abagabo harimo n'abagore bambaye imyenda y'ubururu, bakaba bicaye barimo barumva imyanzuro y'inama bamwe bakaba barimo baranayandika mu makaye yabo.

Uko bigaragara aba bagabo n'abagore bicaye nk'abari mu nama yo kuganira ku ngingo baba bateguye, kubera ko bafite mudasobwa.

Ahangaha uko bigaragara ni abantu batatu harimo bifitezwe umutekano umwe n'undi mugabo numugore bigaragara nk'aho bari bari imbere y'abaturage bari kubagezaho imbwirwaruhame.

Abangaba ni abantu bahagaze higanjemo abagore cyane n'abagabo bagera muri bane, bakaba bafite icyapa kiriho ibihembo by'amafaranga angana na miliyoni mirongo ine n'eshatu, ndetse bakaba bishimiye iki gihembo bahawe n'ikigo cy'igihugu cy'imiyoborere.

Nkuko bigaragara aba bantu bicaye bari mu gikorwa cy'inama mu cyumba cyahariwe inama. Uriya mugore uhagaze imbere ni we uyoboye iyi nama bashobora kuba bari kwiga ku bibazo byinshi bigiye bitandukanye.

Ahangaha ni amabantu benshi bicaye mu ihema, ndetse iri hema rikaba ritakishijwe amabara agize ibendera ry'igihugu cyacu, aba bantu bashobora kuba bari mu nama.

Abangaba ni abantu bahagaze bateraniye hamwe, ibigaragara bashobora kuba basoje inama bakaba bari gufata ifoto y'urwibutso.

Aha ngaha ni abantu bicaye, bameze nk'abari mu nama, ndetse barishimye cyane, biragaragara ko inama yagenze neza, imyanzuro yavuyemo ishobora kuba ari myiza pe.

Abantu benshi bicaye ku ntebe ndetse hari n'abicaye imbere y'ameza bamwe bafite amakaye. abandi za mudasobwa ndetse ku meza hakaba ari n'amazi yo kunywa bakaba bari mu nama.

Ahangaha ni mu cyumba cy'inama kigari, hicayemo abantu benshi ndetse imbere hicaye abayoboye iyo nama, iyi nama yitabiriwe n'ubwitabire bw'abantu benshi.

Aba bantu bari mu nama bose baricaye bateze amatwi uyu mugabo urimo urabagezaho imbwirwaruhame kigaragara cyo bateze amatwi kandi bishimiye ibyo kubabwira.

Aha ngaha hari abantu benshi bicaye. Imbere yabo hateretse amazi ndetse n'umutobe w'inyange, ikigaragara bari mu nama nk'uko hari imbere hari umuntu w'igitsina gabo uyoboye inama.

Aba bantu uko bahagaze hano ikigaragara cyo bari mu nama runaka bitewe n'intego bafite, bafite n'amazi hari n'abandi barimo kwandika.

Aha turi ni mu cyumba cy'inama ndetse higanjemo abagore benshi n'abagabo, bafite amazi yo kunywa meza y'Inyange ndetse iyi nama yabereye ahantu heza.

Ahangaha ko bigaragara ni ahantu hateraniye abantu benshi bicaye mu cyumba cy'inama, bakaba bari mu nama igamije uburyo bw'imiyoborere y'igihugu cyacu cy'u Rwanda.

Aba ngaba ni abaturage bari mu nama ndetse imbere hahagaze uyoboye inama wambaye umwenda w'umukara ndetse n'undi ujya gusa umuhondo ndetse bigaragara ko abaturage bitabiriye ku bwinshi ndetse barimo kumva ibyo babagezaho.

Aha ngaha nk'uko bigaragara aba bagabo uko ari batanu bari mu nama kuko hari ufite indangururamajwi abandi bakaba barimo barandika imyanzuro y'inama.

Aba bantu bari hano bari mu nama, aba bicaye barimo barabwirwa, uyu uhagaze ni we uyoboye inama, aha hantu bari ni mu cyumba kiberamo inama.

Aha ngaho nk'uko hameze, ni mu cyumba kinini kiberamo inama gikozwe mu mahema, ndetse hakaba hateraniye n'abantu benshi bari kwita ku bibazo byugarije igihugu.

Aba ngaba ni abantu bitabiriye inama bakaba bari mu gutekereza ibintu byafasha abanyarwanda n'abaturarwanda kwiteza imbere.

Ahangaha hicaye abantu benshi ndetse bari mu nama, bambaye impuzankano ziri mu mabara atandukanye, ndetse hakaba higanjemo urubyiruko, ndetse iyi nama ishobora kuba ari iyo kuba yiga uburyo hatezwa imbere urubyiruko rw'Abanyarwanda.

Mu cyumba kikaba cyateraniyemo abantu benshi, harimo abagabo, abagore, ndetse n'urubyiruko, n'abana, bashobora kuba bari mu inama cyangwa se bari gusenga.

Aha ngaha hateraniye abantu benshi ndetse imbere hagaze umugore ufite indangururamajwi arimo kubagezaho inama ndetse n'ibindi yabateguriye.

Urubuga rw'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubutaka, hakaba hatangirwaho ubufasha butandukanye bugendanye n'ibibazo cyangwa se ikindi cyifuzo wababa ufite ku bigendanye n'ubutaka.

Aha ngaha uko bigaragara n'ahantu hatangirwa serivisi zigendanye n'iza leta bikozwe kuri murandasi, zitangwa n'umuturage uba warabyigiye ubifitiye ubushobozi bwo kubikora.

Aha ngaha ni itangazo ry'ikigo cy'Igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro, kirimo kirashishiriza abasora gusora uyu munsi mbere y'uko itariki ya nyuma igera.

Uyu nguyu ni umunara muremure ndetse umunara wifashishwa mu ihuzanzira rya za mudasobwa na telefoni kuri murandasi ukaba ari ingenzi rero ho ibikoresho by'ikoranabuhanga.

Aha ngaha ni ku rubuga rw'ikinyamakuru cy'Igihe gikorera kuri murandasi, bari banditseho ko urubuga rw'irembo ruhari kugira ngo umuntu abe yakifashishwa mu kubikisha umwanya wo kwipimisha urukingo rw'icyorezo cyitwa corona virusi.

Ahangaha nk'uko bigaragara ni abanyeshuri biga mu mashuri makuru bari mu ishuri uriya uhagaze akaba ari umwarimu uri kubigisha.

Nkuko bigaragara urunguru ni urubuga rw'ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro, uru rubuga rwerekana uburyo basoramo, uru rubuga ni rwiza kuko rufasha Abanyarwanda.

Umuntu wicaye urimo urakoresha iyakure akoresheje mudasobwa ye, afashe na terefone mu ntoki kugirango bimworohereze ubuzima bwe bwaburi munsi nk'umunyarwanda.

Uru nguru ni urubuga rwo kuri murandasi rw'ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro. Bakaba bari gutangaza ko bari gutegura ikirori cyo kugaragaza imyanzuro yafatiwe abasora.

Aha hantu nk'uko bigaragara hari iminara myinshi igera kuri ine ndetse ikaba yifashishwa mu ihuzanzira rya kuri murandasi kugira ngo horoshywe imikorere ya interineti.

iyingiyi ni inyandiko y'ikigo cy'igihugu cy'imisoro n'amahoro ifite umutwe ugira uti, ni nde ufatwa nka nyir'umutungo itimukanwa.

Nkuko bigaragara uru nguru ni urubuga rwo kuri murandasi rwa minisiteri y'ubuzima. Uru nguru rukaba ari urubuga rwifashishwa mu kumenyekanisha ibikorwa by'iyi minisiteri.

Iri ngiri ni itangazo ryo ku rubuga rikaba ritangaza uburyo wakirinda ikiza cyaba gitewe na gazi hariho ngo wakora iki mu gihe habayeho impanuka ya gazi.

Iri ngiri ni itangazo ry'Ikigo cy'Igihugu gishinzwe Imisoro n'amahoro , riburira abasora ko itariki ya nyuma ari mirongo itatu n'imwe z'ukwa Cumi n'abiri, bibiri na makumyabiri na kane. Wa cyapa we ufite amabara meza!

Uru nguru ni urubuga nkoranyambaga rukoreshwa n'ikigo cya Leta gishinzwe ibikorwa remezo, uru ni urubuga rukorera kuri murandasi, rukaba rukoreshashwa kugira ngo hakusanyewe amakuru.

Abangaba ni abantu babiri ndetse bicaye imbere ya za mudasobwa, bameze nkabatanga ubufasha kubijyanye n'urubuga rw'irembo rutangirwaho serivise za leta.

Iringiri ni itangazo ry'ikigo cy'igihugu rishinzwe imisoro n'amahoro, ryerekana ko hasigaye iminsi itanu yonyine yo kwishyura imisoro n'amahoro mu rwego rwo kwirinda ibihano.

Aha ngaha ni ku nyubako ndetse hakaba hari iduka ritanga ubufasha ku bigendanye n'urubuga rwo kuri murandasi rw'Irembo, bakaba bafasha n'abantu kwishyura imisoro n'amahoro.

Uru nguru ni urubuga rukorera kuri murandasi, rukoreshwa n'ikigo cy'igihugu gishinzwe gutanga imirimo ndetse kigenzura n'abakozi ba leta.

Aha ngaha ni ku mukozi wa banki runaka, uyu mukobwa wicaye wambaye umupira w'umuhondo, akaba atanga ubufasha bwo kubitsa no kubikura amafaranga kuri banki.

Uyu nguyu n'umunara muremure, uyu munara ukaba ugizwe n'amabara, umweru n'umutuku ndetse uyu munara wifashishwa mu buryo nk'ihuza nzira rya za mudasobwa ndetse n'ibindi bikoresho byifashishwa mu ikoranabuhanga.

Iyi ngiyi ni inyubako, inyubako iri hirya y'umuhanda imbere hahagaze ipikipiki ndetse hari n'abantu barimo baragenda; aha hantu hakaba hakorerwa ubucuruzi bugiye butandukanye bufasha abaturarwanda kwiteza imbere.

Uyu nguyu ni umunara muremure kandi mwiza, ufite amabara y'umweru, umutuku, ndetse n'umuhondo, ukaba wifashishwa mugukwirakwiza, itumanaho rikorerwa kuri murandasi.

Ahangaha ni umugore ufite imisatsi yirabura ,akaba yambaye imyambaro y'umuhondo, ndetse yicaye mu biro aho atangira serivisi nk'umuyobozi ,hakaba hari ikirangantego cy'igihugu cyacu cy'u Rwanda n'ibendera.

Aha ngaha ni mu nzu batangirwamo ubufasha bwo kuri murandasi, aho umuturage aza gushaka ubufasha bwa murandasi hakifashishwa, uyu mugabo wicaye imbere ya mudasobwa.

Iri ngiri ni itangazo ry'ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro. Rikaba rimenyesha abasora imisoro ko habura iminsi ibiri kugira ngo kumenyekanisha imisoro itarishyuwe bimenywe.

Aha ngaha ni ku nkengero y'umuhanda mu buryo bw'ibumoso akaba ari ahantu hatangirwa serivisi zigendanye n'urubuga rwo kuri murandasi rw'irembo .Ndetse uyu muhungu urimo aragenda ameze nk'umuntu ugiye kwakayo ubufasha.

Urunguru ni urubuga rw'ikigo k'igihugu gishinzwe uburezi bw'ibanze mu Rwanda, rukaba rwerekana ibyo iki kigo kiba cyarakoze, ndetse ibi bintu ni byiza cyane.

Uru nguru ni urubuga rwo kuri murandasi, rukaba nk'uko bigaragara ari, urw'ikigo cy'gihugu cy'u Rwanda gishinzwe miyoborere myiza, uru rubuga rukaba rukoreshwa kugira ngo rwerekane, amakuru agendanye na rwo cyangwa serivise ushakaho.

Uyu nguyu ni umunara muremure cyane, uyu munara ugizwe n'amabara y'umweru n'umutuku, ukaba wifashishwa mu gusakaza itumanaho rikorera kuri za murandasi, ndetse ugahuza ihuzanzira za mudasobwa.

Uyu nguyu ni umunara wifashishwa mu ihuzanzira y'ibikoresho by'ikoranabuhanga, harimo za mudasobwa, kugira ngo biborohereze gukoreshasha interineti.

Uru nguru ni urubuga rw'ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro, uru rubuga rukaba rwifashishwa n'abasora imisoro kugira ngo banyureho bagiye kwishyura imisoro mu buryo buboroheye batavuye mu mirimo yabo.

Urubuga rw'ikigo gikorera kuri murandasi, rwitwa irembo. Bakaba barimo barashishikariza abantu gahunda yabyikorere, ku buryo umuntu yisabiraho ubufasha bugiye butandukanye nta wundi ubimukoreye, ari we ubyikoreye.

Aha ngaha ni ku rubuga rwo kuri murandasi rw'ikigo cy'Igihugu cy'amahoro. Hakaba harimo harerekana uburyo umushahara usora bitewe n'uburyo ungana ku kwezi, umwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri n'itatu.

Iri ngiri ni itangazo. Itangazo ry'ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro, imenyesha ko abasora bose itariki ya nyuma ari itariki makumyabiri n'eshatu, ukwezi ukwakira, umwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri n'ine. Iramenyesha abantu kwishyura mbere y'iyo tariki kugira ngo badahura n'ibihano.

Ahangaha ni m'umuhanda nyabagendwa, munsu y'umuhanda hirya yaho hakaba hari inzu yubatse ifite umuryango w'umukara ndetse iy'inzu ni iyo guturwamo.

Iyi ngiyi rukaba ari igiti kinini, kikoreshwa mu kunyuzaho insinga z'amashanyarazi, kugira ngo akwirakwizwe mu baturage mu buryo bworoshye.

Ikigaragara cyo iri ngiri ni ipironi rikozwe mu byuma kandi rirerire, rikaba ryifashishwa mu gusakaza insinga z'imiriro y'amashanyarazi, akenshi na kenshi zo zifashishwa zivuye ku rugomero.

Uyu nguyu ni umuhanda, hirya y'umuhanda gato, hari imashini yabugenewe ikoreshwa mu kongera umuriro w'amashanyarazi, kugira ngo woherezwe ahantu kure, ndetse hirya imbere y'aho gato, hari abakozi bakora mu kigo cy'igihugu gishinzwe gutanga ingufu z'amashanyarazi.

Aha ngaha nkuko bigaragara aya ni amapironi yifashishwa mu gukwirakwiza umuriro w'amashanyarazi, hakaba hanyuraho n'insinga ndende cyane zigera mu bice bya kure.

Aha ngaha nk'uko bigaragara ni ku nzira, ndetse imbere y'iyi nzu hariho ipoto rishinze rinyuraho insinga z'amashanyarazi, ndetse iyi nzu iri imbere, ni inzu yo guturwamo na yo ibona amashanyarazi biturutse kuri iri poto.

Angaha ku bigaragara y'giyi ni iminara yifashishwa mu gukwirakwiza w'amashanyarazi kandiingi y'iminara ikaba ari miremire cyane kuko ijyana insinga z'amashanyarazi ahantu.

Iri ngiri ni ipoto rinyuzwaho insinga z'amashanyarazi kugira ngo akwirakwire mu baturage, zikaba zishyirwaho n'ikigo cy'igihugu gishinzwe ingufu.

Iki ngiki ni igiti kinini gishinze mu muhanda, kikaba kinyuzwaho insinga z'umuriro w'amashanyarazi kugira ngo ugere ku baturage ahantu henshi hatandukanye.

Aha ngaha ni mu muhanda nyabagendwa, ndetse aya mapikipiki ageze mu muhanda w'inkomane, ndetse bikaba binabujijwe mu gukata mu gisate cy'umuhanda w'ibumoso.

Iyi ngiyi ni imashini yikoreshwa mu kongera umuriro w'ingufu zituruka ku kigo cy'igihugu gishinzwe gusakaza ingufu z'amashanyarazi.

Uyu nguyu ni umuhanda munini nyabagendwa bigaragara ko urimo ibinyabiziga ndetse hakaba harimo n'abantu, uyu muhanda ukaba ukorerwamo urujya rw'abantu n'ibintu n'abantu n'ibinyabiziga.

Iyi ngiyi ni inyubako. Iyi nyubako uko bigaragara ni mu Bitaro. Hari ahantu umurwayi anyura hatwikiriye ku buryo izuba cyangwa se imvura itamugeraho, akahanyura hatekanye. Iki gikorwaremezo ni kiza rwose.

Iyi ngiyi ni inzira y'ahan hakorerwa ibikorwa bya Leta yifashishwa mu kunyurwamo n'abantu bahakorera n'abahagana, noneho uri kubona ko hatwikiriye umuntu agenda atanyagirwa cyangwa se ngo izuba rimugereho.

Ni ku bitaro ziriya modoka ni imbangukiragutabara zijya gufata ndetse zikanihutana umurwayi mu gihe arembye cyane, iriya modoka igiye kuzana umurwayi irihuta cyane ku buryo imuhagereza ku gihe cya nyacyo nta kibazo agize.

Aha ngaha hameze nko ku bitaro cyangwa se ahandi hantu ahari hose hatangirwa serivisi za leta, iyi nzu ni nziza cyane hari n'ibigega bifata amazi.

Aha ngaha nk'uko hameze, ni inzira ndende ndetse itwikiriye ku buryo umuntu urimo aranyuraho izuba cyangwa se imvura ritamugeraho, aha hantu hameze nko kwa muganga.

Aha ngaha ni ku kigo nderabuzima cya Kacyiru. Ikigonderabuzima kikaba cyubatse ahantu heza ndetse hakaba hari ubusitani n'icyapa kiza kiherekana ndetse n'inyubako zubatse neza.

Ahangaha ni ahantu hateraniye abantu benshi, mu bigaragara ni kwa muganga, hari imbangukiragutabara ebyiri ndetse hari n'abaganga bahakora, abandi baje gushaka ubufasha ku bitaro.

Ahangaha ni inyubako zubatswe mu bitaro, hakaba hari icyapa cyerekana aho abivuza banyura bataha. Ndetse n'aho bavurira impyiko. Ibi itaro bifite ubusitani bwiza pe!

Ahangaha uko bimeze ni ahantu hahurira abantu benshi ndetse hakaba hari n'umugabo wambaye umupira w'umuhondo hakaba hari n'ubukarabiro kugira ngo bakarabe birinde indwara zandura.

Ahangaha ni ku nyubako y'ibitaro by'akarere ka Nyarugenge hakaba hatangirwa ubufasha ku barwayi barwaye indwara zitandukanye kuko babavura neza.

Uyu nguyu ni umugabo urimo uragaragara hano, yambaye umwenda w'amabara atukura. Ndetse iyi ikaba ari ifoto yifashishwa, ishyirwa ku byangombwa by'umuntu.

Uru rupapuro rurerekana amategeko y'igihugu cy'u Rwanda cya repubulika, uru rupapuro ruriho igazeti y'ingingo ya kane ujyanye kubyaha n'ibihano bya ruswa.

Aha ngaha ni mu rukiko, uyu wambaye umukara ni uburanira uyu nguye wambaye iyi mpuzankano y'imfungwa, ndetse bakaba bategereje gufungurwa cyangwa gufungwa.

Ahangaha uko bimeze ni imfungwa y'umugore yazanywe kuburana mu rubanza, ndetse akaba ahagararanye n'umucungagereza, amucunze.

Aha ngaha nk'uko bigaragara mu nyandiko, iyi ni inyandiko yerekana uburyo urubanza rwasuzumwe n'uburyo urubanza rwakemuwemo.

Aha ngaha nk' uko bigaragara; ni urupapuru rwera rwandikishijwe mu nyuguti z' umukara. Rukaba rwanditseho amategeko yo mu igazeti ya leta yo ku wa makumyabiri ukwa cyenda umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n' umunani.

Uru rupapuro nk'uko bigaragara ruriho itegeko nshinga, ryemejwe n'abadepite mu nama bakoze yo kuwa kabiri ugushyingo, mu mwaka wa bibiri na makubiri na gatatu.

Aha ngaha uko bigaragara hari abantu benshi bahagaze bameze nk'abari bari gufata ifoto y'urwibutso nyuma y'inama bari bari gukorera aha hantu.

Aha ngaha haragaragaraho abagabo babiri, umwe yambaye ikoti ry'umukara ryirabura cyane n'undi wambaye iritirabura cyane ndetse wambaye n'amadarubindi.

Aba bantu uko ari bane aba bantu bari mu rukiko ni abacamanza, aba bantu batanga ubufasha ku bucamanza bagasoza urubanza mu mucyo ntawe barenganyije, abacamanza bo mu Rwanda bakora neza cyane.

Iyi ngiyi ni inyandiko, inyandiko yanditse ku rupapuro rw'umweru, bikaba byandikishijwe mu nyuguti z'umukara mu ndimi eshatu zitandukanye, ndetse akaba ari amategeko aboneka mu igazeti y'igihugu cy'u Rwanda.

Aha ngaha hari abantu benshi bicaye ndetse hakaba hari n'umuntu uhagaze wambaye impuzankano y'imfungwa, bikaba bigaragara nk'aho yaje kuburana mu nkiko gacaca.

Aha hantu nk'uko hagaragara ni mu cyumba kibitsemo inyandiko zo mu nkiko gacaca, zikaba zibitse mu dusanduku twinshi ndetse harimo umugabo umeze nk'aho ariwe uharinda.

Iyi ngiyi ni ifoto y'igice, y'umugabo wambaye imyenda y'abacamanza ndetse ifoto ingana gutya, ikunze gukoreshwa ku byangombwa urugero nk'irangamuntu cyangwa se urupapuro rukwambutsa ku mipaka n'ibindi byangombwa byinshi nkenerwa.

Ngaha uko bimeze, ni mu cyumba cy'urukiko, ndetse hakaba hari umugore, uri kuburanira umugabo begeranye, wambaye imyenda idozwew mu ibara ry'iroza.

Ahangaha ni mu cyumba cy'urukiko ndetse bariya bahagaze ni abantu baburanira abakiriya babo baba bafunze. Uyu wicaye imbere akaba ari umucamanza.

Aha ngaha hari abagabo benshi. Aba bagabo bakaba bambaye impuzankano nk'iz'imfungwa, ndetse bari mu mirimo nsimburagifungo. Bari muri gereza hakikijwe n'igikuta kirekire cyane.

Aha ngaha ni mu cyumba cy'urukiko. Uyu mugabo arimo arasobanurira uyu nguyu ufunzwe. Uyu wambaye imikara ni umwavoka, ashinzwe kuburanira uyu nguyu bari kumwe.

Aba bagabo babiri, uyu nguyu wambaye umukara ni umu avoka, uyu nguyu wambaye rinete ndikubona ameze nk'umuntu ufunze, bafungiye icyaha, aba bantu bari mu rukiko bagiye kuburana mu rukiko kugira ngo bemererwe gufungurwa cyangwa gufungwa.

Uyu mugabo nk'uko agaragara yambaye umwenda ujya gusa umutuku, akaba yambaye n'ingofero y'umukara irimo n'ibara ry'umuhondo, akaba ari imbere y'indangururamajwi arimo aratanga imbwirwaruhame.

Urunguru ni urupapuro ruriho amategeko y'igihugu cy'u Rwanda, yo mu igazeti yemeza nyakubahwa perezida wa repubulika Kagame.

Aha ngaha hari abagabo babiri bashinzwe umutekano. Bakaba batwaye muri yombi umugabo wambaye indorerwamo z'amaso, bamujyanye ku rukiko kugira ngo aburanishwe ibyaha akekwaho.

Uru ni rupapuro nkuko bigaragara rwanditseho amazina y'abayobozi batandukanye, harimo abayobozi bavugira igihugu cyacu ibihugu by'amahanga, haba harimo n'intumwa za rubanda amazina yabo ndetse n'abandi bashinzwe za minisiteri.

Aha ngaha ni abantu bashinzwe umutekano wo gutanga ubutabazi bw'ibanze, bari kwereka abanyeshuri uburyo bakirinda haramutse hateye inkongi y'umuriro, itewe n'ibicanishwa bikomoka kuri peteroli ituruka mu mazi, uburyo bakiri baramutse batewe n'iyo nkongi y'umuriro.

Aha ni mu nzu iki gikoresho cyifashe ku gikuta cy'umutuku ni igikoresho cyifashishwa mu guhashya inkongi y'umuriro igihe yibasiye inyubako ku buryo hatagira ibyangirika.

Aha ngaha uko hameze hahagaze imodoka y'ikamyoneti y'abashinzwe umutekano ndetse hakaba hari no ku cyicaro gikuru cy'abashinzwe umutekano mu karere ka Nyarugenge, Rwezamenyo.

Aha ni mu rusisiro ndetse akaba ari mu muhanda munini nyabagendwa, hakaba hahagaze n'umuntu ushinzwe umutekano wo mu muhanda kugira ngo acunge umutekano abanyamaguru bambuke mu mahoro.

Nkuko bigaragara, iki ngiki ni ikinyabiziga kigenda gikoresheje moteri, ikaba ari imodoka ikoreshwa n'abashinzwe umutekano mu wo muhanda, kugira ngo bakumire impanuka.

Ahangaha uko bigaragara ni umuntu ushinzwe umutekano wo mu muhanda uri kumwe n'umuturage, agiye kumwambutsa mu muhanda kugirango atagongwa n'ibinyabiziga biba bigenda byihuta.

Ahangaha ni mu muhanda harimo imodoka ndetse hari n'umugore ushinzwe umutekano wo mu muhanda akaba agiye guhagarika iyi modoka y'umweru.

A bangaba n'abantu bashinzwe umutekano, bakorera urwego rw'igihugu rushinzwe umutekano wo gucunga abantu n'ibintu byabo ndetse bakaba banacunga umutekano wo ku muhanda.

Aha ngaha uko bimeze ni mu muhanda ndetse uyu uhagaze wambaye impuzankano y'abashinzwe umutekano wo mu muhanda, akaba yahagaritse ibinyabiziga kugenda mu rwego rwo kugira ngo ibindi biturutse imbere bigende bidateje umuvundo.

Nk'uko bigaragara mu ibara ry'umutuku, iki ngiki n'igikoresho cyifashishwa mu gukumira inkongi y'umuriro mu gihe iteye ahantu ku nyubako cyangwa se ahandi ahantu hateranira benshi, iki gikoresho iyo umuriro uje kirawuzimya kakahava.

Ahangaha nkuko bigaragara iyi ni ifoto y'abantu benshi bahuriye hamwe mu gikorwa cyo kwamamaza umukandida mu rwego rwo kuba uhagarariye igihugu.

Ahangaha ni abantu benshi bicaye bari mu nama ndetse hakaba harimo nk'umuyobozi mukuru w'igihugu cyacu nyakubahwa Paul Kagame ndetse akaba ari kumwe n'umugore we bakaba bari mu nama ishingiye ku guteza imbere igihugu cyacu cy'u Rwanda kandi bakaba bamwenyura bishimye cyane.

Aba ni abaturage bagiye mu gikorwa cyo kwamamaza umukandida mu matora ya perezida wa repubulika y'u Rwanda, bafite icyapa kiriho Kagame.

Aha ngaha ndikubonamo umukuru w'igihugu cy'u Rwanda, nyakubahwa Paul Kagame, akaba ari kumwe n'umufasha we Jeannette Kagame. Uyu nguyu ubari inyuma wambaye umutuku, bagiye kurahira.

Iyi foto nk'uko bigaragara uyu nguyu ni nyakubahwa perezida wa repubulika y'u Rwanda Paul Kagame, aha ngaha yari ari gutanga imbwirwaruhame.

Aha ngaha uko bimeze ni abagabo batatu ndetse bahagaze bafite indangururamajwi bameze nk'aho bashobora kuba bari mu nama cyangwa se igikorwa cyateranyijwe n'abantu benshi.

Nk'uko bimeze uyu nguyu ni umugore muremure ufite umusatsi mwinshi wirabura, uhagararanye n'abahungu babiri, umwe mutoya n'undi mukuru mu marembo y'inzu.

Uko bigaragara abanga ni abantu batatu, umwe aricaye imbere yaho hari mudasobwa bameze nk'abari gutanga ubufasha bugendanye n'ikoranabuhanga.

Aha ngaha uko bigaragara ni ahantu hateraniye abanyamuryango b'ishyaka rya FPR, bakaba bari mu nama biga uburyo ishyaka ryakomeza gutera imbere.

Uyu nguyu ni umugore uhagaze w'umusatsi wirabura ndetse n'amenyo yera y'umweru. Ahagaze yazamuye amaboko mu kirere ameze nk'uri kubyina imbyino gakondo yishimye anezerewe.

Ahangaha uko bimeze ni mu nteko nshingamategeko y'igihugu cy'u Rwanda. Ahangaha bari bari mu nama ndetse bariya bicaye imbere ni abari bayoboye inama, hakaba hari hari n'ibirangantego n'ibendera ry'igihugu cyacu cy'u Rwanda.

Aha ni ahantu hakorerwa ubucuruzi ariko iyi pikipiki ihari ni nziza pe! Iyi pikipiki igenda neza kandi uri kubona ko iriho n'ikirangantego cy'u Rwanda. Sha wapikipiki we uri nziza pe!

Aha ngaha ni mu muhanda. Uyu muhanda ni nyabagendwa urimo imodoka, amapikipiki n'abantu. Ndetse ukaba ukikijwe n'inyubako ndende kandi nziza.

Uyu nguyu ni umuhanda munini kandi nyabagendwa, hakaba harimo imodoka nini yo mu bwoko bwa makuzungu, itwara ibicuruzwa byinshi cyane cyane ibituruka mu mahanga n' ibyambukiranya.

Uyu ni umuhanda, harimo kugendamo imodoka ndende yo mu bwoko bwa makuzungu y'umweru, irimo umugabo wambaye umupira w'umuhondo. Iyi makuzungu yifashishwa mu gutwara ibicuruzwa byinshi cyane.

Uyu nguyu uko bigaragara ukaba ari umuhanda nyabagendwa, uyu muhanda ukaba urimo imodoka y'ikamyoneti itwaye imizigo iyijyanye ahantu kugira ngo icuruzwe.

Uyu nguyu ni umuhanda mugari urimo amagare atwaye abantu, ndetse urimo n'imodoka nini y'ikamyoneti, itwaye ibicuruzwa ibijyanye aho bicururizwa.

Uyu nguyu ni umuhanda, uyu muhanda ukaba urimo uragendwamo n'ikamyoneti nini itwaye umusenyi ndetse uyu muhanda ni nyabagendwa urimo uragendwamo n'igare ndetse n'abandi bantu.

Uyu nguyu ni umuhanda munini kandi nyabagendwa ndetse uyu muhanda ukaba urimo uregendwamo amapikipiki, imodoka ndetse uyu muhanda ukaba ufite n'inkomane ahazwi nk'i Nyamirambo werekeza i Gikondo.

Uyu nguyu ni umuhanda mugari, urimo uranyurwaho n'amapikipiki abiri ndetse ipikipiki imwe ikaba itwaye umuntu ndetse hazengurukijwe n'ibiti bitanga umwuka.

Uyu ni umuhanda urimo imodoka imwe, n'amapikipiki abiri. Uyu muhanda ni mwiza cyane kuko uzengurukijwe n'ibiti bitanga umwuka.

Uyu ngubu ni umuhanda mugari iyi modoka ya makuzungu ni imodoka nini cyane itwara imizigo myinshi iyi modoka iba ishobora kuva mu gihugu kimwe ijya mu kindi itwaye ibintu.

Aha ngaha uko bigaragara ni umuhanda nyabagendwa, unyuramo imodoka ntoya n'inini kandi ukanyurwamo n'abantu, uyu muhanda urimo n'amatara yo ku muhanda uri kubona ko ari kwaka mu gihe bwije.

Ikingiki n'ikinyabiziga cyo mu bwoko bwa makuzungu, iki kinyabiziga gitwara imizigo kiyivana ahantu hamwe kiyijyana ahandi ahangaha kiri ni mu muhanda munini kandi nyabagendwa.

Aha ngaha ni mu mujyi ndetse bukaba bwije. Uyu muhanda ukaba urimo kugendwamo n'abantu batandukanye; abagenzi ndetse n'ibinyabiziga byiganjemo ibitwara abantu mu buryo bwa rusange, ndetse aha hantu hakaba harimo haraka n'amatara kugira ngo habone.

Uyu ni umuhanda, uyu muhanda urimo ipikipiki ifite amapine atatu, iyi pikipiti ikaba yaragenewe gutwara imizigo, iyi pikipiki urihuta iyo ijyanye umuzigo ikawugezayo, uyu muhanda ukikijwe n'ibiti byiza.

Uyu nguyu ni umuhanda mwiza cyane mugari, ukikijwe n'ibiti byiza bitanga umwuka, ndetse hari kugendamo n'imodoka ndende y'umweru itwara abantu mu buryo rusange.

Akaba ari mu muhanda ndetse ukaba urimo ama bisi menshi bikaba bimeze nk'aho habaye umuvundo w'imodoka nyinshi, ko imodoka zigiye zegeranye cyane izi modoka zitwara abantu benshi zikabageza aho bagiye mu mugihe cyihuse cyane.

Uyu nguyu ndabona ari umuhanda munini ,uyu muhanda urimo imodoka nini yo mu bwoko bwa Bisi, itwara abagenzi benshi, iyi modoka ni nziza kandi rihuta cyane.

Aha ngaha ni mu muhanda, umuhanda mugari, hirya yo mu muhanda haparitse ibinyabiziga bitandukanye, ndetse aha ngaha hakaba hari n'umuntu utwaye igare, ugaragara nkaho agiye kwinjira mu muhanda.

Uyu nguyu ni umuhanda nyabagendwa. Ukikijwe n'ibiti byiza bitanga umwuka. Harimo n'ipikipiki itwara imizigo ndetse hakaba arimo n'amagare arimo aragenda.

Iyi modoka iri mu muhanda, ni imodoka y'umweru itwara imizigo. Iyi modoka ikunda gutwara imizigo irimo inyama n'ibindi biribwa byose.

Aha ngaha ni mu muhanda, hari imodoka yo mu bwoko bw'ikamyoneti ikaba itwaye imizigo, ndetse n'imbere y'aho hari izindi modoka zitwaye imizigo ziri mu mabara y'ubururu, ndetse uyu muhanda ukikijwe n'ibiti byiza bitanga umwuka.

Uyunguyu muhanda y'umuhanda urimo ivatiri y'amabara y'umweru ndetse n'umuhondo ikaba n'ubwoko bwa tagisi itwara abantu babanje kuyishyura ikabageza aho bagiye.

Nk'uko bigaragara iki ni ikinyabiziga cy'amaguru atatu cyitwa ipikipiki kiri kugenda mu muhanda, uzengurukijwe n'ibiti biduha umwuka mwiza.

Aha ngaha ni mu muhanda nyabagendwa urimo ikamyoniti itwaye imizigo iyivanye ahantu hamwe igiye kuyijyana ahandi, iyi kamyoneti ifite amabara meza y'umweru.

Iri ngiri ni igare rihagaze mu muhanda nyabagendwa ndetse rikaba rihagaze inyuma y'ikinyabiziga cy'ikamyoneti gitwara imizigo.

Aha ngaha ni mu muhanda, umuhanda mugari mwiza cyane ukikijwe n'ibiti bitanga umwukamo harimo haragendamo imodoka nini yo mu bwoko bwa makuzungu, ikaba itwaye umusenyi mwinshi baba bagiye kubakisha inyubako.

Iyi ngiyi ni ikinyamitende kiri kugenda mu muhanda nyabagendwa. Iki kinyamitende gitwawe n'umuyobozi wambaye impuzankano y'umuhondo, kandi kiri kugendana n'ibindi binyabiziga, harimo igare n'imodoka.

Aha ni mu mujyi wa Kigali harimo hagendamo imodoka nziza itwara abagenzi mu buryo bwa rusange uyu muhanda ukaba ukikijwe n'ibiti byiza ndetse n'inyubako ndende nziza z'amabara y'umweru.

Iyi modoka ni ikamyoneti nini itwara ibintu byinshi cyane, iyi modoka ikaba ipakiye amakara ijyanye ahantu hamwe iyavanye ahandi.

Uyu nguyu ni umuhanda nyabagendwa ndetse hakaba hari na mapikipiki menshi ahagaze, hari ipikipiki nziza ikoresha amashanyarazi nk'ubuyo butangiza ikirere.

Uyu nguyu ni umuhanda, uyu muhanda urimo uragendwamo n'ibinyabiziga bitandukanye, imodoka n'amapikipiki. Iyi iri imbere ikaba ari kamyoneti itwara imizigo.

Aha ngaha ni mu muhanda nyabagendwa, ukaba ari umuhanda ugizwe n'ibisate bibiri ndetse harimo amapikipiki, hakaba harimo n'imodoka nini itwara abantu mu buryo bwa rusange, ifite amabara y'umweru n'andi mabara atandukanye, iyi modoka ni nziza kuko irihuta cyane.

Uyu nguyu ni umuhanda nyabagendwa unyurwamo n'ibinyabiziga bitandukanye aha nganaha uri kubonako harimo amapikipiki, hakaba hirya hahagaze n'ibinyabiziga bikoresha nka moteri byitwa imodoka.

Ahangaha ni ahantu hazwi nko mu mujyi abantu baricaye hakaba hari n'ubusitani butuma haba umwuka hari n'inyubako ndende ikoreramo ikigo cy'igihugu gishinzwe isuku n'isukura by'amazi hari n'urujya n'uruza rwinshi rw'abantu kuko nta kinyabiziga cyemerewe kuhagera.

Aha ngaha ni ahantu hameze nko mu mbuga y'inyubako, cyangwa se y'ikigo cyaba ari icya Leta, hakaba hahagaze ipikipiki nziza ndetse n'imodoka, hakaba hakikijwe n'ibiti bitanga umwuka.

Aha ngaha hateye ibyatsi byiza by'umwimerere bya kinyarwanda, aha hantu hameze nk'aho inka baziragirira ndetse hari ibyatsi byiza.

Iki ngiki ni icyapa cyo mu muhanda, iki cyapa kikaba kiburira abantu batwara ibinyabiziga ko imbere muri metero nk'icumi cyangwa y'imetero makumyabiri hambukirwa n'abagenzi.

Aha ngaha ni mu muhanda nyabagendwa, ndetse uyu muhanda urasukuye neza, ndetse hari icyapa kibuza abayobozi b'ibinyabiziga kuhahagarara umwanya muto ndetse n'umunini.

Ikingiki ni icyapa cyo mu muhanda gitegeka, kikaba kerekana ko hemerewe gutatwa ibumoso gusa, kikaba kiyobora abakoresha ibinyabiziga.

Iki ngiki ni icyapa cyo mu muhanda, kikaba ari icyapa kibuza. Kikaba cyerekana ko aha hantu hatanyurwa n'imodoka zitwara abantu mu buryo rusange zizwi nka bisi.

Ikingiki nk'uko bigaragara ni icyapa gitanga umuburo, kikaba cyerekana ko ibintu bigomba kugenda gakegake, gakegake, gakegake bucece, nta kintu gikomakoma.

Iki ni icyapa cyo mu muhanda kiyobora abagenzi n'abashoferi batwara ibinyabiziga kugira ngo batabangamirana mu muhanda nyabagendwa.

Aha ngaha ni ahantu ndetse hakaba hari icyapa kikaba icyo cyapa kerekana ko hatemerewe kugerwa n'amagare.

Ikingiki ni icyapa gikozwe mu buryo bwa mpande eshatu, kikaba ari icyapa gishyirwa mu muhanda kugira ngo kiyobore abayobozi b'ibinyabiziga ndetse n'abandi bakoresha umuhanda mu rwego rwo gukumira impanuka.

Ikingiki ni icyapa gikoreshwa mu muhanda, iki kikaba kiburira abakoresha ibinyabiziga bakoresha umuhanda, ko nta kinyeabiziga kemerewe kunyura ku kindi.

Iki ni icyapa gikoreshwa mu muhanda iki cyapa kiri kwerekana ko nta igare ryemerewe kunyura aha hantu, iki cyapa kizengurukijwe n'umutuku hagati harimo igare. Iki cyapa cyerekana umuntuozi utwaraye igare catamele uhanyura cyane.

Iki ngiki ni icyapa cyo mu muhanda, kiyobora abayobozi b'ibinyabiziga kugenda mu muhanda neza batabangamirana, cyangwa se ngo babangamire abanyamaguru.

Ahangaha nkuko bigaragara ni icyapa ariko cyerekana binyuze mu buryo bumeze nk'amashusho kikaba cyerekana ko umunyamaguru agomba gutambuka ahangaha.

Iki ngiki ni icyapa gikoreshwa mu rwego rwo kubahiriza amategeko y'umuhanda, iki cyapa cyanditseho pa gisobanuye ko aho hantu hemerewe kuba haparikwa ariko igihe gito.

Ikingiki ni icyapaa cyo ku muhanda, kikaba ari icyapa cyerekana ko aha hantu hahagarara amabisi.

Iki ngiki ni icyapa gikozwe mu buryo bw'uruziga, ndetse gifite amabara y'umutuku n'ay'umukara, kikaba kimenyesha ko umuyobozi wese utwaye igare atemerewe kunyura aho hantu, aho hantu ntihanyurwa n'igare.

Uyu nguyu ni umuhanda ndetse uyu muhanda uriho n'icyapa cyiza cyanditseho ngo urakaza neza mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, ku cyapa hahagaze umuntu w'umunyamahanga.

Aha ngaha uko bigaragara ni ku ruhande rw'umuhanda, hari ahantu hatangirwa ubufasha kuri serivisi z'Irembo, ndetse hakaba n'icyapa cyerekana ko ari muri Kigali - Gasabo.

Ahangaha ni ku ruhande rw'umuhanda, iki ni icyapa cyanditseho K K maganane mirongo itatu n'ikenda, ni icyapa kerekana ko ari ku muhanda wa Kigali Kicukiro, kifashishwa mu kuyobora abantu kugira ngo bamenye aho bageze no kugira ngo batayoba.

Iki ngiki ni icyapa cyo mu muhanda cyerekana ko umuvuduko ntarengwa ari ibirometero mirongo itatu ku isaha, aha ngaha kandi hakerekana ko harimo n'uburyo bw'ikoranabuhanga bwifashishwa mu guhana uwawurengeje.

Mbega ahantu heza. Aha ni ahantu hari amazu meza iwacu mu Rwanda, yo guturwamo. Aha hantu akaba ari ahazwi nka Kimironko. Hatewe mo n'ibiti bizana umwuka mwiza wo guhumeka.

Aha ngaha ni ku muhanda, ku buryo bw'iburyo bw'Umuhanda hakaba hubatswe inzu nziza cyane itatswe n'imitako myiza, iyi nzu ni ndende kandi n'iyo guturwamo.

Ahangaha ni mu cyanya cyahariwe guturwamo n'abantu, ndetse ahangaha ni mu muhanda mwiza w'amaguru, uyunguyu akaba ari umuntu utwara abantu ku mapikipiki, ahazwi nko mu kajagari ka mbere.

Aha ngaha hari amazu menshi, ndetse amazu akaba yubatswe mu buryo bw'amazu y'imiturire. Aya mazu ni meza kandi ni maremare, akaba atuye ahantu heza, hafi y'umuhanda.

Iyi nzu ni nini kandi iyi nzu ni inzu yagenewe ubucuruzi hakaba hacururizwamo ibintu byinshi, hakaba hanatangirwamo serivisi nyinshi zitandukanye z'abikorera.

Uyu nguyu ni mu muhanda, ndetse uyu muhanda iburyo bwaho hubatse inzu yo guturwamo inzu nziza ifite amabara meza cyane, ikikijwe n'ibiti byiza bitanga ubuhumekero.

Aha ngaha ni ku kigo gishinzwe imari, hazwi nko kuri kuri banki. Aha ngaha akaba ari ku ishami rya banki ya Kigali. Bakaba batanga serivisi zigendanye n'amafaranga n'ibintu by'inguzanyo kandi bikagenda neza.

Iyi ngiyi ni inzu, iyi nzu uko bigaragara n'inzu ishobora kuba imaze imyaka myinshi, ikaba isakajwe n'amabati atukura, ndetse iyi nzu ikaba ifite n'urutoki ruhinzemo ibitoki.

Ahangaha uko bigaragara hari intebe nyinshi n'ameza hameze nk'ahari uruganiriro, hakaba hari n'ibimera byiza cyane byo mu Rwanda kandi izi ntebe ni nziza cyane kuko zikozwe mu mbaho z'iwacu mu Rwanda.

Aha ngaha, ni ku muhanda wegereye indabyo nziza. Ndetse aha ngaha hakaba ari ku kibuga cy'indege Mpuzamahanga cya Kanombe.

Imbere y'inzu imbere y'inzu ubusitani akaba ari n'ibiti ndetse iyi nzu ikaba ari inzu mu bigaragara yo guturwamo kandi nziza cyane.

Aha ngaha ni mu muhanda mutoya ariko nyabagendwa harimo abantu bari kugenda ndetse hirya y'umuhanda ,hari inyubako ndende ishobora kuba ikorerwamo ubucuruzi cyangwa se ituwemo n'abantu.

Iyi ngiyi nk'uko bigaragara ni inyubako ndende, iyi nyubako ikaba ishobora kuba ikorerwamo ibikorwa by'ubucuruzi ndetse hakaba haba n'ahantu batangira ubwo bufasha bitewe n'ibintu runaka ndetse hashobora no kuba habamo amacumbi.

Uyunguyu ni umuhanda, uyu muhanda ukaba wegeranye n'inzu, iyi nzu ni inzu nziza yo guturwamo ndetse mu muhanda harimo haragendamo amagare ndetse n'ibindi binyabiziga ndetse n'abantu hakaba hegeranye n'izindi nzu z'ubucuruzi.

Aha ngaha ni mu muhanda munini nyabagendwa. Urimo amapikipiki menshi n'imodoka zitwara abantu n'ibintu. Aha ngaha hakaba ari mu muhanda mu mujyi wa Kigali, ahazwi nko mu Giporoso.

Aha ngaha ni mu rusisiro, ndetse hakaba hari amazu menshi meza yagenewe guturwamo, hakaba hakikijwe n'ibiti byiza bituma hagira umwuka mwiza.

Iyi ngiyi ni inzu yo guturwamo. Iyi ni inzu nziza cyane igeretse kabiri ndetse imbere y'iyi nzu, hakaba hari kumera ubusitani bwiza buzajya butanga umwuka ku baturiye iyi nzu.

Uyu nguyu ni umuhanda mugari wifashishwa mu kunyurwamo n'ibinyabiziga. Uyu muhanda uzengurukijwe n'inzu nziza pe! Izi nzu kandi ni ndende cyane.

Uyu nguyu ni umuhanda mugari kandi nyabagendwa, mwa bantu mwe ko muri kwambuka, murimo murambukira ahantu habugenewe, mugende nta kibazo mufite cy'uko babagonga.

Uko bigaragara ni umuhanda mugari. Unyurwamo n'imodoka. Hariya hantu ni umuhanda ufite hasi no hejuru. Bari kunyuramo hatsi indani. Kiriya cyapa yanditseho P, ni icyapa cyerekana ko hatemerewe guhagarara.

Aha ngaha uko bigaragara, uyu ngunyu ni umuhanda mwiza, aha ngaha hagaragara nk'aho abagenzi bambukira umuhanda, iyo bagiye kwambuka, ibinyabiziga birahagarara bakabanza bakambuka.

Uyu ni umuhanda nyabagendwa, burije uri kubona ko ikirere cyatangiye guhuma, amatara yo ku muhanda arimo araka kugira ngo haboneke umutekano, harimo haragendamo ibinyabiziga n'abantu.

Ahangaha uko bigaragara ni ku muhanda w'ikiraro hano ku kiraro hakaba haparitse igare, igare ryiza cyane rifite amabara ajya gusa nk'ay'ibendera ry'igihugu cyacu cy'u Rwanda.

Aha ngaha ni mu muhanda mugari ugizwe n'ibisate bine, uyu muhanda ukaba urimo uragendwamo n'ibinyabiziga byinshi, amapikipiki ndetse n'amamodoka yo mu bwoko bw'amavatiri, uyu muhanda ukaba ukikijwe n'ibiti byiza.

Uyu nguyu ni umuhanda mugari. Umuhanda ukikijwe n'ibiti byiza bitanga umuyaga ku bantu bahanyura ndetse bigatuma n'ibidukikije bikomeza kumera neza.

Uyu nguyu ni umuhanda mugari kandi munini, ukaba ufitemo n'inkomane ukaba uri kunyurwamo n'ibinyabiziga bitandukanye biri kujya mu byerekezo bitandukanye, harimo amapikipiki ndetse n'imodoka z'ubwoko bwose,

Ahangaha ni mu muhanda mugari, imbere hahagaze umuntu uri imbere y' igare. Uyu muhanda urimo uragendwamo n'ibinyabizga bitandukanye, amapikipiki, imodoka ndetse n'ibindi byose.

Ni umuhanda nyabagendwa uriya mugabo urimo uragenda hariya h'umweru ni aho abanyamaguru bambukira, nk'uko biteganywa n'itegeko rya leta. Ikinyabiziga nticyaha mu mugonge

Aha ngaha uko bigaragara ni mu mujyi ndetse harimo haragendwamo n'abantu, imodoka, amapikipiki, hakaba harimo haranakamo amatara kugira ngo Abaturarwanda bakomeze kugira umutekano ntakiwuhungabanya.

Nk'uko bigaragara, ahangaha ni mu muhanda mugari nyabagendwa, hariya imbere hari amapikipiki abiri, ndetse umuhanda ukaba ugeze no mu gice k'inkomane, ahangaha hakaba ari nyabagendwa.

Aha ngaha ni ku muhanda ufite uwo hasi n'uwo hejuru, ahantu harimo haragendamo ibinyabiziga bitandukanye ndetse aha ngaha akaba ari nk'ahazwi nk'ahitwa ku Kinanamba.

Umuhanda, uyu muhanda ukaba ari nyabagendwa, ukaba ukikijwe n'ibiti bigufasha kubona umwuka mwiza ukeye, ndetse uyu muhanda uri kugaragara ko nk'abantu bari kuwugendamo, ndetse byose ni byiza.

Aha ngaha ni mu muhanda nyabagendwa, ndetse uyu muhanda ukaba ufite n'ahantu unyura bazenguruka umuhanda ukaba urimo ama piki piki n'imodoka zitwaye ibicuruzwa.

Aha ngaha ni mu muhanda munini, mugari ndetse hakaba hari n'ahantu hahurira imihanda myinshi bari kugendamo amapikipiki harimo imodoka hakaba hari n'ibyapa biyobora abantu bigufashisha ikoranabuhanga byifajije urumuri kugirango ibinyabiziga bitagongana mu gihe biri kuva mu gice kimwe bijya mu kindi.

Uyu nguyu ni umuhanda nyabagendwa ndetse uyu muhanda ukaba ufite umuhanda wo hasi n'indi iwunyura hejuru ndetse uyu muhanda ukaba uri ahazwi nko ku Kinamba werekeza Nyabugogo.